Abana b'abahungu bari mu kigero kimwe, umwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye ipantaro n'ishati bisa, bateze amaboko, bari gukina n'amazi, ari guturuka mu ipombo ifata amazi y'imvura.

Umwana w'umukobwa ukiri muto, wambaye ikanzu y'igitenge, usutse utunweri ku mutwe, mu ntoki ze hafite icupa ry'amazi yasize ku rukuta, rwubakishije amatafari ahiye, hasi hakaba hasigishije irangi ry'umukara, hakurya ye hari urukuta rwubakishije amatafari ya rukarakara.

Munsi y'umusozi hari ivomero ryaje kuvomaho abana bato, hari umukobwa uri kubafasha kugira ngo babashe kubona amazi, hakurya yabo hari imodoka yahahagaze ya toyota y'umweru.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ikagira igipangu cyubakishije amatafari ya rukarakara. Imbere yaho hari kandagira ukarabe iteretseho akabase, hari gukarabira umwana w'umunyeshuri, wambaye impuzankano akaba yambaye n'ishapure.

Imbuga yo hanze iriho agatanda gatoya banikaho ibyombo barangije kubyoza kugira ngo bita amazi, kegeranye n'urutoki, urwo rutoki rukaba rukikijwe n'urugo rw'imiyenzi.

Abana babiri bari mu kigero kimwe bateruranye indobo ku ivomero riri mu murima, hakurya yawo hari ishyamba, hirya yawo hari inzu y'amatafari ya rukarakara isakaje ubwatsi.

Umubyeyi ukenyeye igitenge, wambaye n'umupira wo kwifubika ndetse n'ingofero mu mutwe, ari ku iriba kuvoma amazi, iriba riherereye iruhande rw'umurima uteyemo imyaka itandukanye.

Munsi y'umusozi hari ivomero ryaje kuvomaho umubyeyi ukuze, wambaye igitenge kirimo amabara y'icyatsi, akaba yambaye n'ingofero y'ubururu bwijimye, akaba yazanye ijerekani kuvoma.

Umwana w'umukobwa usutse nwere ku mutwe wambaye ikanzu idoze mu gitenge, ari gukaraba intoki n'amazi meza akaba ari gukarabira mu imbasi, inyuma ye hari urukuta rw'amatafari akozwe muri burokesima.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi, ufite umusatsi utari mwinshi, wifashe mu gahanga, ufite umubabaro n'agahinda, kwiheba no kwiganyira, ariko akaba ari guhumurizwa n'umugore wambaye isaha ku kuboko.

Abana b'abanyeshuri abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano zibaranga nk'abanyeshuri, barimo gukorera isuku amenyo, buri wese afite uburoso mu kanwa n'igikombe kirimo amazi mu ntoki.

Abanyeshuri bakiri bato bambaye impuzankano y'ubururu bari gukora isuku y'amenyo bakoresheje uburoso bufite amabara atandukanye, umwe muri bo afite uburoso bw'umuhondo, undi akagira ubuso bw'icyatsi undi akagira uburoso bw'ubururu.

Umusaza ukuze, wambaye umupira mwiza w'umweru ukozwe mu budodo, ari kwitabwaho n'umubyeyi mwiza w'inzobe uri kumusukira icyo kunywa mu kirahure, imbere ye hari pome, hakurya yabo hari televiziyo.

Umubyeyi ukuze, wambaye umupira w'umweru, uryamye ku gatanda k'abarwayi, iruhande rwe ibumoso, hari imashini isuzuma uko ubuzima bwe buhagaze, iburyo bwe hari umuganga uhahagaze.

Icyumba kirimo abantu babiri, umuganga n'umubyeyi ukuze, ari kumupima uko ubuzima bwe buhagaze, agakoresho gapima uko ubuzima buhagaze kari ku meza, buri wese yicaye ku ntebe.

Umwana muto w'umukobwa ufite imisatsi myiza, w'inzobe, uri kumwe n'umubyeyi we, ku meza bari gukiniraho hariho udupapuro twinshi dutandukanye, inyuma yabo hari televiziyo.

Abagabo babiri bambaye neza cyane, umwe muri bo yasoje kwandika igitabo, undi wambaye n'amadarubindi, ari kumushimira kuba asoje urwo rugendo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite urugi rw'ibirahure hasi rusize amarangi y'umweru. Hejuru hari ubutumwa bugaragaza igiko gikrerwa muri iyi nyubako, aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Abaganga bageze kuri batandatu bambye impuzankano zabo zisa nk'ubururu ndetse bakambara n'udupfukamunwa bose, inyuma yabo hari amagambo y'icyatsi agaragaza ivuriro bakoreraho.

Inyubako nziza cyane igezweho, isize amarangi y'umweru ku ruhande, ikaba inageretse, imbere isigishije amabara y'ubururu yijimye, muri ayo mabara y'ubururu harimo inyuguti z'umweru, zirimo ubutumwa bugaragaza ko ari ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, hasi imbere hashashe amapavi.

Inyubako ishakaje amabati y'ubururu ikagira urubaraza rw'amakaro ikabasiza amarangi y'umuhondo hejuru yandikishije mu nyuguti yubururu igaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya shagasha imbere y'iyi nyubako hasi hashashe nk amapafe.

Umwana muto w'umunyeshuri wambaye impuzankano y'icyatsi, uri kumwe n'umubyeyi w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru uri kumwerekera ukuntu hakorwa isuku y'amenyo, inyuma ye hari ababyeyi babiri ndetse n'umugabo.

Inyubako nziza cyane Igeretse isigishije amarangi y'umweru ku mpande, imbere ku muryango ahinjira hasingishije irangi ry'ubururu, hariho ikirango kigaragaza ko ari ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, imbere hashashe amapave hasi, ku ruhande hari ubusitani burimo pasiparume.

Umwana w'umukobwa wambaye inkweto za siporo, agakabutura k'ubururu n'insengere y'icyatsi, ari kuri tapi y'icyatsi, ari gukora siporo, imbere ye hari ibikoresho bya siporo ari gukoresha.

Ibikoresho bya siporo, icupa ry'amazi, mudasobwa umukobwa wicaye ku mukeka uri gukora siporo wambaye ipantaro, hejuru yambaye isengeri, na mudasobwa ari kurebamo ibintu bijyanye na siporo agomba gukora.